Icyumba ibikuta biteye irange ry'umuhondo harimo ubufuka bwinshi ubusa kandi butondetse, harimo umugabo nanone uteruye agafuka, ubufuka icyo buhuriyeho ni uko bushushanyijeho icyari ikimera.

Ni mu murima urimo abantu babiri, umugabo n'umugore, bose bateruye ifumbire, umugabo yambaye ipantaro y'ikoboyi, umupira w'umweru ndetse n'ishati inyuma, yambaye ekuteri na ho umudamu yambaye ijipo ijya busa n'icyatsi.

Umurima urimo umudamu uri guseka, uwo mudamu yambaye agatambaro mu mutwe, imbere ye hari uduti dukoze uruziga turimo igihingwa cy'umwembe, iruhande rwacyo hari ibigori bikiri bitoya.

Mu murima uhinzemo umuceri, harimo abantu benshi, muri bo harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara, inyuma mu mufuka w'ipantaro harimo ikayi, afashe metero mu ntoki ari gupima abandi bafite udufuka.

Umurima w'urutoki harimo abantu batanu bari guhinga, muri bo harimo abadamu batatu ndetse n'abagabo babiri, imbere yabo hateretse umuhoro, inyuma yabo hari urutoki ndetse n'igiti cy'umwumbati.

Ahantu harunze ibigori byinshi bitanoye, iruhande rw'ibyo bigori hari ibiti ndetse hahinze n'ibindi bigori bikiri bibisi, hejuru y'ibi bigori hari kugendaho abantu babiri ndetse hari n'abandi bari kwanika ibindi bigori.

Ahantu hari voka nyinshi zimeze kimwe imbere zifite agatwe gato, izo voka ziri mu kintu kimeze nk'umuvure ndetse izo voka zose ni icyatsi.

Mu ishyamba ahantu hari ibiti birebire by'amoko atandukanye, biriho amatabi yumye ndetse n'andi ariho amababi, unyujije amaso muri ibyo biti, hari kugaragara urumuri ruturuka mu kirere.

Umurima urimo ibiti by'amoko atandukanye, harimo imbuto, harimo urutoki, muri uwo murima harimo igihingwa cy'igihaza gifite amababi y'icyatsi manini.

Uruzitiro rw'ibiti, ibyo biti ni byo mu bwoko bw'imiyenzi, inyuma yabyo hari kugaragara ihema, risa naho rikikije urwo ruzitiro.

Ahantu hari ubwoko bw'imineke butandukanye, muri bwo hari imineke miremire iteretse ku ntara, iruhande rwayo hari ikindi gitoki cy'imineke cya kabaragara, iruhande rwacyo hari irindi seri ry'imineke ya kabaragara na ryo riteretse ku rutaro.

Ahantu hari indabo z'amoko atandukanye, hari indabo zajeho utundi turabo duto tw'umweru n'umuhondo, iruhande hari izindi ndabo z'icyatsi, hari igiti cyameze, icyo giti gifite umuzi munini cyane, iruhande rwacyo hari amabuye n'ubundi bwoko bw'indabo.

Iruhande rw'umugenda unyuramo amazi hari indabo z'umuhondo, inyuma yazo hari ibiti by'amoko atandukanye, birimo ibyatsi ndetse iruhande rw'ibyo biti hari izindi ndabo.

Umurima uteyemo igiti cy'avoka kikiri gitoya gisasiwe n'amakoma y'insina yumye, hirya yacyo hahagaze abantu hari kugaragara ibice byo hasi amapantaro, hepfo yabo hari ibiti.

Mu murima ushashemo ibyatsi byinshi, harimo ibihingwa by'urusenda, urwo rusennda ruracyari rubisi, hirya y'uwo murima hari undi murima urimo ibiti birebire ndetse iruhande hari n'undi murima uhinzemo ibintu bimeze nk'umuceri.

Ahantu hari igikuta kigikuta mu nda, harimo ibiti birebire inyuma hateye karabasasa, inyuma yacyo hari ibiti bibiri, hari ururabo ndetse n'igiti cy'ipapayi.

Ni mu murima ahantu hateye ibiti by'urusenda, urusenda ruriho insenda zikiri ntoto, zikiri mbisi, rufite amababi agiye atandukanye ndetse rurasasiye, inyuma y'inseda hari kugaragara umwijima.

Umurima uhinzemo ibitunguru ndetse n'urutoki, harimo abantu babiri bafashe ku ruhombo umudamu ndetse n'umugabo, umugabo yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ijya gusa n'ikigina, imbere ye hari urutoki ndetse imbere y'uwo murima hari amazi menshi.

Ahantu hahinze ibihingwa by'umuceri, hari amazi agenda anyura hagati mu mirima, iruhande rwayo hahagaze umudamu, wambaye ipantaro y'umukara afashe telefone mu ntoki.

Imbere y'inzu yubakishije ibiti, izengurutswe n'imyaka, imbere yayo hahagaze umudamu wambaye agapira k'umukara, ingofero ijya gusa n'ubururu, iruhande rwe hari ihene y'umusheru iziritse ku giti.

Ikiraro cyubakishije ibiti, ndetse n'imbaho. Muri icyo kiraro, harimo ingurube. Harimo ingurube nini. Hakabamo n'ibibwana by'ibigurube bitoya, bine.

Ahantu hahagaze abantu benshi, barimo abagabo ndetse n'abagore, abenshi muri bo bafashe ibibwana by'ingurube mu ntoki, ndetse abandi bafashe ingurube nini bigaragara ko ari ahantu bacururiza ingurube.

Mu gishanga hagati y'imirima hanyura amazi harimo amazi yanduye, iruhande rwayo hari ibihingwa bitandukanye, muri byo hari ibihingwa by'amateke akiri matoya.

Inyoni ifite amabara ajya gusa n'umuhondo n'icyatsi, ifite amabara hejuru ahagana ku gice cy'imbere y'umutuku n'umukara, ihagaze ku gatabi k'igiti. Ndetse iruhande rwayo hari utundi dushami turiho amababi.

Akanyamaswa kameze nk'imbeba nini gafite amatwi ari kureba hejuru, gafite amaso y'umukara, gafite umurizo munini, uriho ibyoya byinshi, hirya y'ako kanyamaswa hari ubwatsi.

Ishyamba ririmo ubwatsi butoshye, ririmo inyamaswa ifite ibara ry'umutuku inyuma, mu maso irasa n'umukara, ifite amaso y'umutuku n'umukara, ifite uduhembe tumeze nk'ibiti.

Ahantu mu ishyamba hari ibiti by'amoko atandukanye harimo ibifite amababi atoshye, harimo inkende yo mu bwoko bw'inkima y'umukara, ifite amatwi ameze nk'ay'umuntu.

Ni mu ishyamba ririmo ibiti birebire by'amoko atandukanye, harimo inyamaswa eshatu z'umukara zikozwe nk'abantu, izo nyamaswa zifite ubwoya bwinshi ndetse zifite amatwi ameze nk'ay'abantu.

Mu ishyamba harimo ibiti by'amoko atandukanye birebire kandi binini, muri yo hariho igiti kiriho inyoni iyo nyoni iri kudohama muri icyo giti, iyo nyoni ifite amabara y'umweru n'umukara munsi.

Ahantu hari umucanga mwinshi kuri uwo mucanga hariho inzoka yizinze, ifite amabara menshi, harimo ibara ry'umukara iry'ikigina n'irindi rijya gusa n'umuhondo. Iyo nzoka ayo mabara akoze mu buryo bw'amatoni.

Ahantu mu ishyamba harimo ibiti by'amoko atandukanye, hari kugaragara ishami ry'igiti rihagazeho inyoni yo mu bwoko bw'ikigona, hejuru isa n'umukara munsi isa n'umweru ndetse n'umukara.